Kwita ku buhinzi bw'amashu nibyo bitumaga gamera neza, gagatanga umusaruro mwinshi ku isoko, n'umuhinzi wagahinze bigatuma hari icyo ageraho, bigendanye n'umusaruro yagakuyemo.